Amazi ni ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi, kuyanywa bidufasha mu igogora, iyo umuntu ari muri siporo mu gihe yaba ananiwe akwiye kuyanywa kugira ngo aruhuke ndetse bimufashe kubaho neza kandi akirinda indwara zitandukanye duhura nazo bitewe no kuba make kwayo mu mubiri wacu.